Mu bitaro habagamo imiti zigiye zitandukanye, kandi zivura indwara zitandukanye twavugamo: inkorora, y' inzoka bibi ndetse n' impiswi.

Nkunda ibitaro cyane kuko bifite bidufitiye akamaro kanini cyane kandi bikaba bifite abaganga bavura ibintu bijyiye bitandukanye. Hari abaganga bavura umutwe, amaso ndetse n'umugongo.

Imiti ya kinyarwanda ndayikunda cyane kuko yera ahantu hagiye hatandukanye. Ikiza indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nko ku bana barwaye inzoka, inkorora, umutwe no mu nda.

umuti wa kinyarwanda ubamo amoko menshi cyane . Harimo amarozi batambuka, hakabamo n'ayo batamira, bawuha n'abana batoya iyo barwaye.

Mu muco wacu tugira imiti gakondo bavurisha abantu, tugira imiti bavurisha amarozi batambutse ndetse n'ayo batamika abantu.

Nkunda imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye. Amarozi bagaburira abantu, ibyo batambuka ndetse n'inkorora ku bana batoya iyo barwaye.

Mu ishyamba habagamo imiti nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda, ikindi kandi zifashaga abantu kuvura bitabagoye batiriwe bajya kwa muganga.